Guverinoma y'u Rwanda yashyizeho uburyo bwo kuba bwahuza abayobozi bakaba baganira ku gikorwa runaka, bakaba bafata ibyemezo bishobora guteza abaturage imbere.

Mu nama zigiye zinyuranye, aho uhasanga abagore ndetse n'abagabo, bakaba baba bafite amazi, bafite n'aho bari kwandika bitewe n'icyo bari kuganiraho.

Ni abagabo n'abagore bicaye ku meza manini bari mu nama y'akazi bakaba bicaye imbere y'amazi bakunze kwita inyange.

Ni umugore ndetse n'undi mugabo bicaye muri sare iberamo inama, basa nkaho bari kuganira ku bitekerezo bigiye bitandukanye byo mu kigo cyabo kugira ngo barebe uko bakiteza imbere.

Hano harimo abagabo benshi bagiye batandukanye n'abagore bakaba basa nkaho bari mu nama bakaba bafite amazi imbere yabo bakaba bateze amatwi ibyo umukuru w'ikigo ari kubabwira bakaba bari kwiteza imbere mu buzima busanzwe.

Inama za Guverinoma ziba zitabiriwe n'abayobozi, aho baba bahahuriye bakaba baganira bagafata ibyemezo byateza igihugu imbere.

Ni abagabo benshi bicaye bafite murandasi bategereje ko bagira icyo babwira, basa nk'aho bari mu nama, bari kumva ibyo bababwira, bakaba bari no mu kazi.

Ni ahantu hasa nkaho hari kubera inama, aho usanga harimo abagore, abagabo ndetse hakaba hariho nibipapuro byo kurikodingiraho.

Ni inama yabereye ahantu irimo abantu bagiye batandukanye, bakaba bari kuganira ku bintu bigiye bitandukanye, hakaba harimo umwe utanze ikibazo ahagurutse.

Amatara yaka cyane ndetse n'ikiraro kinyuraho imodoka, hasi no hejuru kiri mu mujyi wa Kigali muri nyanza ya kicukiro ndetse yanditseho, icyapa k'icyatsi kiriho amagambo Kigali eyapoti

Aha hari abagabo bagiye batandukanye abari mu nama, harimo umugabo wambaye ishati y'umweru n'umuzungu ku ruhande wambaye amarinete basa nkaho bicaye ku meza amwe barikuganira cyangwa bateze amatwi uwugira icyo ababwira.

Guverinoma yo mu Rwanda yazanye uburyo bushyashya bwo guhanga udushya, aho bategura inama zikaba zajyamo abayobozi bakaba bafata ibyemezo bishobora guteza igihugu imbere.

Mu nama zinyuranye zo mu Rwanda ushobora kuba wasanga ingeri zose; abagore, abagabo ndetse n'abazwiho nk'abanyamahanga, bakaba baba bicaye bari gufata ingamba zateza igihugu imbere.

Ni inama y'inteko rusange y'abafatanyabikorwa b'akarere ka Gasabo, bari mu nama imbere yabo hakaba hari uducupa tw'amazi bakunze kwita inyange.

Abagore bazwiho kuba barahawe iya mbere mu kuba bakwitabira mu myanya itandukanye muri guverinoma y'u Rwanda, ushobora kuba wabasanga mu biro bigiye bitandukanye byo mu rwanda kuko bazwiho nko gutekereza cyane.

Ni inama iyobowe n'umugore, ashobora kuba ari kubahereza ibyigwa bigiye bitandukanye, aho bose bamuteze amatwi, bumva ku bintu ari kubabwira imbere yabo.

Ahantu henshi hagiye hatandukanye mu gihugu ukunze kuhasanga iminara, aho leta yagiye iyishyiraho kugira ngo abaturage babone internet yihuta kandi bakore akazi kabo mu kwinjiriza amafaranga igihugu cya nabo biteza imbere.

Guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda yashyizeho imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, aho ushobora gusangaho serivisi zabo, yaba kuba wakwishyura mituweli, cyangwa ukaba wakwishyura izindi serivisi zigiye zitandukanye leta itanga.

Guverinoma y'u Rwanda yashyizeho uburyo bwo gusakaza interinete mu bantu, aho usanga abagabo ndetse n'abana, urubyiruko rushobora kuba bahabwa interinete y'ubuntu mu mijyi rwagati.

Ni abanyeshuri bari muri sare, bashobora kuba bari kwiga murandasi, bakaba bambaye amashati y'umweru ndetse n'amapantaro y'urutare.

Harimo umugabon wambaye umupira wanditseho irembo, aho abaturage n'abaturarwanda bashobora kuba babagana bakabafasha muri gahunda zigiye zitandukanye za leta, harimo kubarebera niba barishyuye amamituweri.

Imirongo ya emutiyene ikomeje kwagura neza imiyoboro yayo itanga iminara igiye itandukanye mu duce dutandukanye, aho usanga iyo minara ikurura rezo bityo bikorohereza abaturage batuye u Rwanda.

Ku mashansiye agiye atandukanye barimo barubaka iminara igiye itandukanye aho ushobora kuba wasanga abakunze kwita ngo ni abafundi ndetse n'abayede hano uzahibwira kuko hari sima.

Leta y' u Rwanda yashyizeho uburyo bwo korohereza abaturage, imirongo ngendanwaho bashobora kuba bakoresha ku matelefone, aho ushobora gusanga iminara igiye itandukanye iriho amarezo n'uduce dutandukanye two mu Rwanda.

Ni umunara muremure ugera mu bicu ushobora kuba wakurura amarezo, bityo bikorohereza abaturage ndetse n'abatuye muri ako gace, kubona rezo ku buryo buboroheye.

Mu ishuri, abanyeshuru bicaye ku ntebe zifite aho gutereka mudasobwa. Umugore wambaye ikoti ry'umukara, ari kwereka umwe muri abo banyeshuri ibintu runaka muri mudasobwa ye, nk'aho ari kubigisha uko bakoresha mudasobwa.

Ubu ngubu ushobora kuba wagenda mu makaritsiye agiye atandukanye yo mu Rwanda, aho ushobora kuba wahasanga iminara miremire ikurura amarezo, bityo bikorohereza abaturage n'abaturarwanda baturiye iyo minara kuba bafata rezo ku buryo buboroheye.

Ndi kubona ahantu handitseho imisoro ushobora kuba wahashaka umusoro ugejejemo icyo cyapa kandi gishobora kuba cyakoreshwa na leta yu Rwanda aho bari gukangurira abantu kwishyura imisoro.

Ni umuturirwa mutoya ufite imiryango igiye itandukanye, bakoreramo imirimo igiye itandukanye. Usangamo umuryango ukoreramo IREMBO, aho ushobora kubagana bakagukorera serivisi zitandukanye z'irembo.

Umurongo wa emutiyeni (MTN) ukomeje korohereza abaturarwanda ndetse n'abaturage b'u Rwanda kuba bahabwa rezo ku buryo bushimishije aho bwazanye iminara igiye itandukanye muri karitsiye zigiye z'itandukanye.

Ni ishusho igaragaza inzu icuruza ibikoresho bigiye bitandukanye byo mu nzu, aho uhasanga ibyo bakunze kwita imifariso, ikaba yegamye ku ipoto igaburira amashanyarazi.

Imihanda ndetse no hirya y'imihanda uzasanga amapoto maremare mu byuma byiza, aho usanga ayo mapoto agaburira abaturage n'abaturarwanda ingufu z'amashanyarazi.

Ni umuhanda usukuye hirya yaho hari ipoto itanga umuriro w'amashanyarazi hepfo yaho hakaba hari inzu ntimukanwa zimeze neza, ruguru yaho hakaba hari ubusitani buteye.

Inzu iri hirya aho uhasanga imodoka iparitse ku ruhande itwaye urwego runo bakoresha abantu bakora amashanyarazi ku mapoto.

Ushobora kujyaho ushobora kuhasanga ingufu z'amashanyarazi uzayibwira kuko haba hari amafoto maremare yo mu byuma aho usanga yarashyizweho kugira ngo agaburire amashanyarazi abaturage batuye muri utwo duce tw'igihugu.

Ku mihanda uzagenda uhasanga ayo bakunze kwitaba amapoto bamanikaho insinga z'amashanyarazi aho bakunze kuba bazikoresha bari kugaburira ingufu z'amashanyarazi ingo zigiye zitandukanye zo mu Rwanda.

Insinga z'amashanyarazi zifite ibara ry'ubururu. Zizinze mu buryo bw'uruziga, zikaba zihambirijwe ibirere by'insina. Ziteretse hasi.

Mu mihanda igiye inyuranye yo mu Rwanda, uzahasanga ibizwiho nk'amapoto agaburira abaturage n'abaturarwanda ingufu z'amashanyarazi, aho uzahasanga amapoto maremare, ari mu bwoko bukozwe muri beto.

Mu miturirwa igiye inyuranye uzasanga amapoto azwiho nk'abapironi aho usanga agabura ingano y'amashanyarazi menshi, aho usanga muri utwo duturage umuriro utaba upfa kubura.

Mu Rwanda bakomeje kuza ku isonga, aho usanga bafite uburyo boherereza abaturage cyangwa abaturarwanda amashanyarazi biturutse ku mapoto y'ikoranabuhanga yabugenewe.

Ni umuhanda urimo amapoto agiye atandukanye aho uhasanga insinga zigaburira amashanyarazi abaturage bagiye batandukanye ,hirya no hino hakaba hari igiti gitanga umwuka.

Ababyeyi barasa neza hari idaraporo ry'u Rwanda hakaba hari n'insinga ziri gutera hejuru yaryo zigaburira abaturage amashanyarazi hakaba hari n'ikinyabiziga imbere yabo.

Amapoto ukunze kwita amapironi agemura ingufu z'amashanyarazi maremare cyane, akaba umuturage uturiye ayo mapironi aba atabura umuriro.

Ku mapoto agiye atandukanye yo mu Rwanda aho ushobora kuba wasanga insinga zigiye zitandukanye mu bwoko bunini, aho zishobora kuba zagaburira abaturage n'abaturarwanda amashanyarazi mu ngo zigiye zitandukanye.

Wajya ku mihanda igiye itandukanye, aho usangayo indabyo zigiye zitandukanye z'umuhondo ndetse n'insina, ukaba wasanga n'amapoto arahura amashanyarazi ayavana ahantu hamwe ayajyana ahandi kugira ngo abaturage barusheho kuba bahabwa amashanyarazi neza.

Mu iduka ririmo ibikoresho bi bitandukanye byo mu nzu aho usanga hanze haba hari imifariso yo kuryamaho iba yegamiye ku ipoto igaburira amashanyarazi abantu hakaba harimo n'imyenda yitandukanye.

Mu mihanda uzahasanga amapoto akunze kuba ariho insinga zigaburira abaturage ndetse n'ingo zikikije ayo mapoto.

Inyubako ndende irimo kubakwa ikaba ifite ibiti ku ruhande hakaba hari n'ipoto igaburira abayobozi ndetse n'abaturage amashanyarazi.

Umuhanda urimo abanyamaguru bagiye batandukanye barimo abambaye imipira y'umukara, ubururu, umuhondo ndetse hirya yabo hakaba hari ipoto igaburira abantu amashanyarazi hepfo yaho hakaba hari umutaka wa emutiyeni.

Ni amapoto y'amashanyarazi agaburira abaturage umuriro, igaragiwe n'indi poto irimo moteri isharija umuriro.

Ubugubu ujya ku mihanda igitandukanye yo mu Rwanda aho usanga ibyapa byamamariza umurongo wa eyateri, uba uri ku mafoto azwiho kuba acanira abantu amashanyarazi nimugoroba bari kugenda, ndetse ukaba wahasanga n'ibindi byapa byamamariza umurongo wa emutiyene.

Guverinoma y'u Rwanda yazanye uburyo bushyashya bwo kuba batoza abasore ndetse n'abagore imyuga igiye itandukanye aho ushobora gusanga benshi mu rubyiruko baba bazi umurimo wo gukora w'amaboko.

Mu mihanda inyuranye yo mu Rwanda hateganyijwe udutebe tuzwiho kuba twicaraho abanyamaguru, bategereje imodoka zibavana ahantu hamwe zibajyana ahandi.

Ni icyapa kigaragaza ikigo gikorera u Rwanda, gishinzwe kugaburira abaturage amashanyarazi. Ibyo ibyapa uzabyibwira kuko ubisanga hafi y'ibyo bigo.

Ushobora kuba wajya ku mihanda itandukanye yo mu Rwanda aho uhasanga ibyapa bigiye binyuranye ibiburira ndetse n'ibitabuririya ndetse n'ibindi aho ushobora kuhasanga n'amafoto azwiho kugaburira cyangwa gusakaza umuriro ahantu hose hagiye hatandukanye

Mu isangano ry'imihanda harimo harasa neza, hakaba muri uwo muhanda hari gucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hirya hakaba hari guca umunyamaguru ndetse hakaba harimo n'amapoto acana mu igihe cy'umugoroba.

Mu mihanda yo mu rwanda igiye itandukanye, uzasangamo amapoto azwiho kuba agemura ingufu z'amashanyarazi, ndetse uhasange n'andi maremare akoze mu byuma akunze kwita amapiloni, nayo agemura ingano y'amashanyarazi iri ku rwego rwo hejuru.

Abakozi bambaye imyenda y'akazi, amasarubeti y'ubururu basa nkaho bari gukora ibijyanye n'amashanyarazi.

Mu mihanda igiye itandukanye yo mu Rwanda ikizakubwira ko ari imihanda yo mu Rwanda ni uko usanga iyo imihanda isa neza, aho ushobora kuhasanga amapoto agaburira abaturage n'abaturarwanda ingufu z'amashanyarazi.

Mu Rwanda hari ubwoko bw'amapoto bakunze kwita amapironi, aho usanga ugaburira amashanyarazi, ku buryo burenze inshuro ebyiri, aho usanga ugaburira ahantu henshi, mu duce tugiye dutandukanye two mu Rwanda.

Ni ipoto rigaburira abantu amashanyarazi, munsi yaryo hicaye umuturage wambaye umupira w'umutuku, hepfo hakaba hari icyapa kigaragaraza ibikorwa bikorwa muri icyo gipangu.

Harakeye hasa neza muri uwo muhanda w'umukara ukaba ugaragiwe n'ubusitani bwiza buteyemo ibiti hakaba hari n'ifoto igaburira abantu amashanyarazi ku ruhande rw'ibumoso.

Ni ipoto rijyana cyangwa rigaburira amashanyarazi abaturage bagiye batandukanye, munsi yaryo hakaba hari umutaka umurongo wa emutiyene. Hakaba hakoramo umukozi wa emutiyene akaba ari gutanga serivise zigiye zitandukanye.

Umuhanda muremure ukunze kugaragaramo azwiho nk'amapoto akoze muri beto, aho usanga ayo mapoto afata insinga nyinshi zigemura ingufu z'amashanyarazi mu duce tugiye dutandukanye.

Mu mijyi inyuranye yo mu Rwanda aho usanga hari ibyapa byamamariza ibigo bimwe na bimwe, harimo ibya Airtel, harimo ibya Startimes, hakaba harimo n'ibindi by'ibindi bigo.

Ni abagabo bagiye batandukanye bicaye ahantu mu biro basa nkaho bari mukazi, bose bafite murandasi zabugenewe kubika ndetse kubikuza amadokima.

Aha ni ku bitaro aho abarwayi ndetse n'abaturage bategerereza ko bahabwa serivise zinyuranye zo mu bitaro, aho ushobora kuba wahasanga abantu benshi ndetse n'imbangukiragutabara.

Ni ibitaro aho abaturage bari hanze bategereje ama serivisi bari ku murongo bityo hahurirwa abana abagore ndetse n'abantu bakuru.

Ni umuturirwa ugeretse inshuro nyinshi, ushobora kuba ukorerwamo imirimo igiye itandukanye, hanze yaho hakaba hateye indabyo ziteye amabengeza, hakaba hari n'umugore wambaye umupira w'umweru uri kwinjira.

Ni ikigo gishobora kuba gikorerwamo gahunda za leta gifite ubusitani bwiza ndetse hirya yaho hakaba hateye uduti twiza hepfo hakaba hateye ikindi giti.

Ndabona umugabo usa n'aho ari kugenda ahantu handitse ngo nta kuhanywera itabi, iyo nzu kandi ifite inkingi z'amabuye. Aho ndi kubona umugore wicaye ku ntebe hirya.

Leta yazanye gahunda zo kuba bakoranya abaturage bo mu gaturage kamwe, bakaba bahabwa inama zigiye zitandukanye, zafasha ako gaturage mu kwiteza imbere ndetse no gukemura ibibazo.

Abanyamategeko bicaye bambaye amakanzu y'umutuku arimo ibara ry'umweru bakaba bambaye amagofero arimo ibara ry'umukara ndetse n'umuhondo hakaba higanjemo abagore n'abagabo.

Inkiko gacaca ubutabera bw umwuga, ni kimwe mu gitekerezo cyazanwe n'abanyarwanda aho abakoze jenoside yakorewe abatutsi baza bagasaba imbabazi bakazisaba abo biciye.

Ni umugore wambaye amarinete, akaba afite imisatsi y'umukara, akaba yambaye ikanzu y'abacamanza, ikaba irimo ibara ry'umutuku, umukara n'umweru.

Abagabo ndetse n'abagore bafashe iya mbere kujya bakora inama ku nyungu z'igihugu bakaba bateza imbere igihugu binyuze kuba bakora inama zijyanye no kuba bafata ingamba nshya.

Abagabo basa nkaho ari abanyamategeko, aho ari abacamanza bicaye imbere, hirya hakaba hari umushinjacyaha, hakaba hari n'umwavoka ndetse n'uwakoze icyaha.

Abagabo benshi bari mu nama bakaba bambaye imyenda igiye itandukanye aho usanga abambaye iy'umukara n'abagore bambaye imyenda barimo bakaba bari kureba mukuru wabo.

Ni umugabo usa nk'aho ari umunyamategeko, yambaye rinete, akaba afite uruhara akaba yambaye ikanzu itukura irimo karuvate hakaba harimo ibara ry'umukara.

Mu Rwanda haba ibigo bishinzwe kugorora abantu bakoze ibyaha, aho ushobora kuba wabasanga mu magereza agiye atandukanye yo mu Rwanda, barimo barakora imirimo nsimburagifungo, izwiho kuba ari nk'imirimo ishobora kuba yatuma ugabanyirizwa igifungo.

Ni abapolisi babiri bakora mu kigo cya gipolisi cyo mu Rwanda, bakaba bakurikiranyeho umuntu icyaha bakaba bamufashe, akaba yambaye na rinete.

Biragaragara yuko abagabo batatu, ndetse n'abagore babiri bari mu nama, bashobora kuba bari kumva ibyo abakire bari kubabwira, bari ahantu hari impapuro z'umweru.

Umugabo usa nkaho akora mu bintu bijyanye n'amategeko akaba yambaye ikanzu irimo ibara ritukura, ibara ry'umukara ndetse n'ibara ry'umweru akaba ahagaze ari kureba muri kamera bakaba baramufotoye.

Nyamirambo hari ikigo gishinzwe kuba cyakurikirana ibyaha bakunze kwita RIB, aho ushobora kuba wahamagara kuri nimero zikurikira arizo: rimwe gatandatu gatandatu, izindi gatatu gatanu cumi na kabiri, iyindi makumyabiri mirongo ine ukaba wabona kuri uwo murongo.

Ni abapolisi bafite ipikipiki nini hepfo hari umukobwa wambaye agapira k'umutuku ipantaro y'umukara aba bapolisi basa nkaho bari kuganira.

Ni umupolisi ushobora kuba ari kureba perime cyangwa uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga ndetse akaba afite imashini yabugenwe.

Guverinoma z'ibihugu bitandukanye, ukunze gusanga zifite abazimya inkongi aho ziba zateye, aho abo bagabo baba bafite imipira irimo amazi azimya inkongi aho yateye.

Nk'uko hirya no hino ku isi hagiye hameze na guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda ifite urwego rwa polisi ruyifasha mu kuba rwarwanya ibyaha mu gihugu, yaba kuba abaturage bakoresha ibiyobyabwenge cyangwa barwana bagakomeretsanya, polisi ishobora kurwanya ibyo byaha cyangwa ibindi bigiye bitandukanye.

Ikinyabiziga kinini gifite akamaro ko kuba kifashishwa mu kuba cyazimya ahantu hatewe n'inkongi y'umuriro, kikaba giparitse ku kigo cya polisi gitegereje ko bagihamagara kikajya kuzimya.

Ni ahantu hari amakaro ku bikuta bikaba bisa umweru, hakaba hasa nkaho hari ubwirinzi bwa kizimyamuriro buzwi nko kuba babwita impombo zijyamo ibintu bizimya umuriro.

Abapolisi bari mu muhanda basa nk'aho bari guha uruhushya imodoka ko zitambuka bakaba bafasha n'abanyamaguru kuba bakambuka, bahagaze ari babiri hakaba harimo abanyamaguru ndetse n'ibinyabiziga.

Mu mihanda yo mu rwanda hakunze kugaragara abakozi bakorera ikigo cy'umutekano bakunze kwita polisi aho usanga abo bapolisi bo muhanda baba bashinzwe kuba bahana abantu bagenze nabi mu muhanda.

Mu miturirwa miremire inyuranye yo mu rwanda uzasanga ibyo bakunze kwita pawuda mururimi rw'abanyamahanga mu kinyarwanda ikaba yitwa pudeli yifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro.

Amazu agiye atandukanye yo mu Rwanda ndetse no ku Isi hose aho ushobora kuba wasanga barahateganyirije uburyo bwifashishwa mu kuba bazimya inkongi y'umuriro, ushobora kuba wahasanga ibihombo by'umutuku bifite n'amatiyo asohora ibyo byuka bizimya umuriro.

Aba rero urabona ko bambaye amakarita ndetse n'imyenda, bisa n'aho hari inama bari bitabiriye yiga ku bibazo runaka biba byugarije abaturage cyangwa biba byugarije igihugu, biterwa n'ingingo nyamukuru ihari.

Ikigo cya Polisi giherereye Nyabugogo, kikaba kibamo abapolisi. Imbere yacyo bahagaze imodoko, ndetse hino yacyo hateye ibiti.

Mu mazu anyuranye yo mu rwanda hashyizweho uburyo bwo kuba bakirinda inkongi y'umuriro kuko baba baresitaye bagashyiramo amatiyo ashinzwe kuba yazimya inkongi y'umuriro

Leta y'u Rwanda ikomeje gutanga Inkunga ku bantu batishoboye aho umuntu uri mu cyiciro cya mbere, ashobora kuba yahabwa gaz ashobora kuba yatekeraho bityo bikamworohereza ubuzima bwa buri munsi.

Ni abakozi babiri bambaye, imyenda y'abantu bazimya amazu, inyuma yabo hakaba hari umupolisi ufashe umupira urimo amazi bari kumena ahantu bazimya inzu.

Polisi yo mu Rwanda ikorera mu muhanda, ikomeje kuza ku isonga aho ushobora kuba wabasangana ibinyabiziga bigiye bitandukanye bihagarika imodoka zifite umuvuduko mwinshi, iyo ufite umuvuduko urengejeho bashobora kuba baguhagarika kabaka bakwandikira.

Ni ababyeyi bahagaze bambaye imikenyero, imyambaro yo mu Rwanda bakaba bari kumwe n'abandi bagore bambaye imyenda isanzwe.

Ni umugore ndetse n'umugabo basa nkaho bari kurahira aho ubasanga mu mirenge igiye itandukanye bashobora kuba bagiye kubana barimo bararahira ku ndahiro zabo.

Guverinoma y'u Rwanda yashyizeho uburyo bw'ubuyobozi, aho usanga hari abayobozi bakuriye abandi bayobozi bashobora kuba bahurira mu nama nshingamategeko; aho bashobora kuba bafata imyanzuro igiye itandukanye ishobora gufasha inyungu z'ikigo cy'u Rwanda.

Umuturage ku isonga ni imwe mu magambo bandikaga mu gihe cy'amatora, aho umukuru w'igihugu Paul Kagame yiyamamazaga wo mu ishyaka ya FPR, aho wasangaga bafite utudarapo tuzwiho kuba ari utw'iryo shyaka.

Ni umumama uri kurahira wambaye amarinete y'umukara, akaba ari hafi y'idarapo ry'u Rwanda. Akaba ari kurahira ku ndahiro zigiye zitandukanye, akaba ari kuvugira ku nsakazamajwi.

Guverinoma y'u Rwanda iyo bageze mu gihe cy'amatora, icyo gihe uzasanga imirongo y'abantu bagiye gutora abayobozi, banyuranye bagendeye uko bashaka umuyobozi.

Ni abantu bahagaze bari gufata amashusho aho hari kumwe n'abandi bantu bagiye batandukanye harimo na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame.

Ni abagabo bari mu nama benshi harimo amayekara atandukanye ariko kugaragaza kubyo bari kuganiraho ndetse bakaba bafite n'amazi n'amamashini imbere y'abo.

Ni abaturage ndetse n'abanyamuryango b'umuryango wa FPR Inkotanyi, wabohoye igihugu, aho basa nk'aho bari kwamaza umukuru w'igihugu, Nyakubahwa Perezida Paul Kagame.

Abagabo batatu bafashe ku mabendera y'u Rwanda, bari kurahira bakaba baragaragiwe n'abagore, nabo bakaba bafashe ku mabendera y'u Rwanda bakaba bari kurahira.

Guverinoma y'u Rwanda yashyizeho uburyo bwo kuba abayobozi bakwegerana bagakora icyo bita inama bakaba bafata muri za gahunda zazamura igihugu zishobora kuba zateza abaturage imbere.

Guverinoma yashyizeho uburyo bwo kugenda bica iminsi isigaye, aho usanga baba bitegura amatora y'umukuru w'igihugu.

Uko bigaragara ni umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida Paul Kagame, aho ahagaze imbere y'ikirango cya Repubulika y'u Rwanda kiriho agaseke akaba ari gusuhuzanya undi muyobozi w'umugore.

Mu gikorwa cy'amatora uzahasanga byinshi mu birango biranga ishyaka aho usanga baba banatatse indabyo zigiye zitandukanye hakaba harimo n'amatente azwiho nk'amashitingi abantu bugamamo izuba.

Imodoka ikorerwa mu ruganda bakunze kwita Dayihatsu, iparitse aho ngaho mu cyapa kigaragaza ko nta modoka yemerewe kuhaparika, iparitse muri kaburimbo.

Ubu ngubu ushobora kuba wajya mu mihanda igiye itandukanye mu Rwanda, aho uzayibwira kuko iba isa neza, uzahasanga amapikipiki ndetse n'ibinyabiziga binini n'ibinyamitende ndetse n'ibinyabiziga bitagira moteri.

Ni umuhanda wo mu Rwanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye ibitoya ndetse n'ibinini, ibito bakunze kwita amapikipiki hakaba n'izindi nini.

Mu mihanda igi inyuranye yo mu Rwanda aho iyo mihanda uzasangamo isuku nyinshi, ndetse n'ibiti biteye mu busitani yongera ubwiza bw'umuhanda bukaba bukurura n'umwuka mwiza mu baturage.

Ku mugoroba imihanda yo mu Rwanda, uzahasanga amamoto azwiho nk'amapikipiki atwara abagenzi abavana ahantu hamwe abajyana ahandi, aho uzasanga baba bategereje abanyamaguru batwara.

Muri kaburimbo harimo umumotari uhetse umugenzi kuri moto. Hirya yayo hari imodoka ya rukururana iherutse imizigo itwikirije ihema ry'ubururu. Hirya na none, usa n'ujya imbere, hari umuntu utwaye igare.

Mu ma gare agiye anyuranye yo mujyi wa Kigali uzasanga ama modoka menshi ari mu bwoko bunini atwara abagenzi ndetse n'ibyabo akunze kujya muntara.

Ni umuhanda uri gucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, aho usangamo umugabo uri gusunika igare atwaye ibintu bigaragara nkaho arink'ibirayi, hirya yaho hakaba hari imodoka iri kuza.

Imihanda igiye itandukanye yo mu Rwanda ushobora kuba wahasanga ibinyabiziga bitandukanye, ibinini, ibito, ndetse n'ibidafite moteri bakunze kwita amagare, iyi foto..

Ubungubu uca mu mihanda inyuranye yo mu Rwanda, aho uzayibwira kuko haba harimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, biri mu mabara agiye atandukanye iby'ubururu, iby'umutuku ndetse n'iby'umweru, aho usangamo n'ibindi binyabiziga ba bidafite moteri bakunze kwita ku amagare.

Ni mu muhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ibifite moteri ndetse n'ibidafite moteri, bikaba harimo igare n'ipikipiki, zazindi zitwara imizigo, zikaba ziri kugenda mu muhanda wa kaburimbo.

Mu mihanda yo mu Rwanda, uzahasanga abanyamaguru bari kugenda ndetse uhasange n'amamodoka manini ashinzwe gutwara ibintu ndetse n'amatoya atwara abantu.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye ibifite moteri n'ibidafite moteri, harimo moto, imodoka ndetse n'igare. Hirya yaho hakaba hari inzu irimo ibikorwa bigiye bitandukanye.

Ku mihanda myinshi yo mu Rwanda uzahasanga amasitasiyo azwiho gucuruza amavuta y'imodoka, uzayibwira kuko haba habaparitse ibinyabiziga bigiye bitandukanye bije kunywesha.

Abo bakunze kwita abatwara ibinyabiziga by'amagare aho baba bategereje abakiriya bakaba babatwara bakaba babona amafaranga yabatunga mu buzima bwa buri munsi.

Guverinoma y'u Rwanda nyuma yo kubaka imihanda yashyizeho n'uburyo bw'uko, abaturage bashobora kuba bajya gutega imodoka mu magare agiye atandukanye, aho bagiye bayashyira mu gihugu.

Ni ikinyabiziga gitwara abagenzi ndetse n'ibyabo kibakura ahantu hamwe kibajyana ahandi, gisa nk'aho giparitse muri gare kikaba gitegereje abantu, kikaba gisa umweru.

Ubungubu ushobora kuba wasanga ibinyabiziga bigiye bitandukanye mu mihanda y'i Kigali, aho usanga harimo ibinyabiziga bifite moteri ndetse n'ibidafite moteri aho usanga bitwaye imizigo ndetse n'abantu bivanwa hamwe bijya ahandi.

Ni umunara w'icyatsi utanga amarezo, hino hakaba hari abagabo babiri bari gucaho, umwe yambaye igikapu, ipantaro y'ubururu n'umupira w'umukara.

Mu nzu mu ruganiriro hari intebe hari televiziyo hari ibirahure hari amarido hari aho bacanira itara n'aho bacaangiga hari utumeza dutoya turi imbere y'intebe..

Abamotari babiri bari mu kinyabiziga, bategereje abo batwara, bari mu muhanda w'umukara, hepfo yawo hari imodoka iri kumanuka muri uwo muhanda, hakaba hagaragiwe n'amazu atimukanwa.

Ni umuhanda urimo igikamyo kinini gishobora kuba gipakiye ibicuruzwa kibivana ahantu hamwe kibijyana ahandi kikaba kiri kugenda mu muhanda w'umukara bakunze kwita kaburimbo.

Ni ikinyabiziga kiri mumuhanda kinini cyomubwoko bw'igikamyo gitwara imicanga n'ibitaka cy'umweru, ruguru yaho hakaba hari umutwazi wigare utwaye uyu mugenzi.

Ushobora kuba wajya mu mihanda igiye inyuranye yo mu Rwanda, aho usanga harimo ibinyabiziga by'ubwoko bw'ibinini, ibitoya ndetse n'ibidafite moteri bizwi nk'amagare

Ku ruhande rwa kaburimbo, hahagaze modoka ebyiri z'umweru. Imodoka y'inyuma ni imodoka ntoya y'ivatiri itwara abantu bakodesha cyangwa se batega imodoka.

Ibigo bimwe na bimwe byigisha gutwara ibinyabiziga aho ushobora kuba bagana, bakaba baguha serivisi harimo izijyanye no kwiga ikinyabiziga, ukaba wakora ikizamini ugahabwa uruhushya rukwemerara gutwara ikinyabiziga mu muhanda.

Mu mihanda yo mu Rwanda igi inyuranye aho uzasangamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye ndetse n'abanyamaguru bari kwiciraho ku ruhande, hakaba wahasanga n'ibinyabiziga binini biri mu bwoko bw'izitwara ibikoresho ndetse n'imizigo biyikura ahantu hamwe biyijyana ahandi.

Mu mihanda, hakunze kugaragaramo, imiferege, izwiho kuba iri ku ruhande rw'ibumoso cyangwa iburyo bw'umuhanda aho amazi ashobora kuba yaca imvura yaguye.

Ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye aho usangamo ikinyabiziga gikorera ikigo gikora mu Rwanda bakunze kwita wasake gitwaye amatiyo, hiryo hakaba hari ipikipiki itwaye umugenzi.

Ni ikinyabiziga kinini kiri mu bwoko bw'ikamyo gitwaye ibicuruzwa kiri muri kaburimbo kikaba kigaragiwe n'ikindi kinyabiziga gitwaye imifuka ,hakaba hari n'ibiti bigaragiye umuhanda.

Ni ikinyabiziga gitoya gitwara cyangwa kigisha cyangwa kikaba gikoreramo abantu bashinzwe kwigisha abanyeshuri imodoka.

Ni ikinyabiziga kinini kiriho igishitingi hejuru cy'ubururu, gishobora kuba icyo kinyabiziga gitwaye ibiribwa cyangwa ibikoresho bya buri munsi.

Mu mihanda igiye itandukanye yo mu Rwanda ushobora kuba wahasanga ibinyabiziga bigiye bitandukanye aho ushobora kuhasanga ibyo bakunze kwita kwasteri zitwara abagenzi ndetse n'ibinyabiziga by'amapikipiki.

Mu mihanda inyuranye yo mu Rwanda aho uzasanga ibinyabiziga bizwiho nka tagisi ziri mu ibara ry'umweru hasi hakaba hari ibara ry'umuhondo, bikaba bitwara abaturage zikabavana ahantu hamwe zibajyana ahandi.

Mu mihanda igiye inyuranye yo mu Rwanda, uzayibwira kuko uzahasanga isuku. Ikindi kintu kizakubwira ko ari imihanda yo mu rwanda uzasanga, harimo haragendamo ibinyabiziga bigiye binyuranye, ndetse biri mu mabara agiye atandukanye.

Ni imodoka nini itwara abagenzi ndetse n'ibyabo ibavana ahantu hamwe ndetse ibajyana ahandi ikorera mu kigo cya ritico rimitedi. Hirya hakaba hari abamotari batwaye abagenzi.

Ni abamotari batwaye twa tu muto dutwara imizigo baparitse hafi yamasoko bashobora kuba bategereje ibiraka hanze hari umugabo uhagaze wambaye umupira umupira ndetse n'ingofero y'umutuku.

Hoteli zitandukanye zo mu Rwanda bakunze kubaka ibyo bakunze kwita amapisine mu rurimi rw'abanyamahanga aho ushobora kuba wahasohokera nabawe mukaba mwahagirira ibihe byiza murimo muroga mwishimisha .

Ni ikinyabiziga cy'umutuku kinini kiri mu bwoko bw'igikamyo kiri mu muhanda, imbere yaho hakaba hari umutwazi w'igare bari kugenda mu mujyi umwe, bari mu muhanda wa kaburimbo.

Ni ikinyabiziga kinini kiri kugenda kuri kaburimbo. Imbere yacyo hakaba hari igare ririho munyonzi akaba atwaye imizigo.

Imyanda yitandukanye ushobora kuba wahasanga ibiti wigaragiye iyo imihanda kuko bitanga umwuka mwiza ushobora kuba wabitera ahantu hose kugira ngo wirinde ibibi bishobora kuba byaba kubantu.

Ni umuhanda, uri gucamo ikinyabiziga gitwaye imizigo, hirya ye hakaba hari umuhungu uhagaze w'umunyamaguru uri kugenda nawe, kaburimbo kandi isa neza.

Amapikipiki azwiho gutwara abagenzi, aparitse ahantu, akaba asa nkaho arindiriye abanyamaguru, bashaka gutega bava hamwe bajya ahandi.

Henshi mu gihugu ukunze gusangayo utuzu tuba twarateguriwe aho abanyamaguru bahagarara, mu gihe baba bategereje amabisi aza kubatwara aho baba bagiye mu kazi kabo ka buri munsi.

Imyanya nyaburanga y'igihugu, amacumbi meza uzasanga imitako igiye inyuranye yubatse, ukahasanga n'ubusitani buryoheye imboni z'amaso.

Ikibuga kinini cy'icyatsi, gifite aho abantu barebera umupira bari hirya, kikaba giherereye ahantu heza, hirya yaho hakaba hari ubusitani.

Icyapa kigaragaza ko bisi cyangwa imodoka zitwara abagenzi zigomba kuhaparika hakaba havamo abagenzi abandi bakinjira, bakaba bava ahantu hamwe cyangwa bajya ahandi.

Mu mihanda yo mu Rwanda ndetse n'ahandi ku isi aho usanga harimo ibyapa bigiye bitandukanye harimo ibyapa biba biri mu ibara ry'umutuku, umweru ndetse n'umukara bishinzwe kuba byaburira abatwaye ibinyabiziga harimo ibibuza abantu guparika ahantu, ndetse n'ibitegeka abantu kugendera ku muvuduko runaka.

Abanyeshuri bambaye inifomu z'umuhondo n'umukara, bari mu byicungo bisa ubururu, bakaba bagaragiwe n'ubusitani bw'ibyatsi, bakaba hirya yabo hari igiti kirekire.

Ni igishanga giteye mo ibigori, hirya yaho hakaba hari umuhanda ucamo imodoka hirya hakaba hari n'imiturirwa myiza.

Ni imiturirwa iri ku gasozi karekare, aho usanga hariho imiturirwa mu mabara agiye atandukanye, ikaba isakajwe mu mabara atandukanye.

Ni imihanda irimo ibinyabiziga bitandukanye harimo, icyo bakunze kwita imodoka, hakaba hari n'inzu ndende.

U Rwanda ushobora kuba watembera mu mihanda, ukaba wahasanga ibyo bakunze kwita amacumbi y'abantu bashobora kuba baturutse kure cyangwa abanyamahanga, ushobora kuba wakwishyura amafaranga ukaba wararamo ijoro rimwe cyangwa ukwezi bigendeye n'amafaranga ufite.

Inzu ndende ifite amagereka menshi agiye atandukanye ishobota kuba ikorerwamo ubucuruzi, hanze yaho hari parikingi iparitsemo imodoka enye, mu muhanda hakaba harimo moto eshatu ziriho abahisi n'abagenzi.

Leta yashyizeho gahunda zigiye zitandukanye nk'izo mu myubakire aho ushobora gusanga bari kubaka imihanda aho bashyiraho inzira y'ibinyabiziga ukanashyiraho inzira y'aho abanyamaguru.

Ni ahantu hubakishije amabuye, haparitseho imodoka y'umukara, hirya yaho hakaba hari inzu, ndetse n'umuntu wambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'umweru.

Ni umuhanda ugaragaza ko ntabimodoka binini byemerewe kuhaca. Hakaba hirya yaho hari umuturirwa muremure utimukiranwa, ugeretse inshuro ebyiri, hanze hakaba hari amamodoka.

Guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda yashyizeho uburyo bwo gukora imihanda aho ushobora gusanga mu ma karitsiye agiye atandukanye barakoze imihanda yohereza abaturage mu kuba bajyana ibintu aho baba bakeneye kubigeza.

Ni umugi wubatsemo amazu maremare agiye atandukanye aho usangamo imiturirwa miremire ndetse n'imiturirwa migufi ikorerwamo akazi kagiye gatandukanye.

Mu midugudu ndetse no mu tugari, uzasanga amazu ageretse inshuro zirenze imwe, afite ibirahuri biteye ubwuzu, byongera ubwiza.

Kimironko ku murenge, ni imwe mu nyubako igeretse inshuro irenze imwe, ibirahuri byiza bya fime by'ubururu ukaba ushobora kuba wagira ikibazo ukabagana bakabigukemurira.

Inyubako ndende isize irangi ry'umuhondo, mbese yubatse igice kinini kigizwe n'ibirahure, hanze yaho hakaba hari umuhanda hakaba hari n'igiti.

Inzu y'umuturirwa iherereye mu mijyi y'imidugudu aho usanga igereretse inshuro imwe ikaba ifite igipangu cy'umukara n'amabati y'umutuku.

Ni umuhanda usukuye hirya yaho hari ubusitani bukeye, hirya yaho hakaba hari umuturirwa muremure ushobora kuba ukorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye.

Ni ishyamba riteyemo ibiti bigiye bitandukanye, ibirebire, ibigufi ndetse n'ibyatsi bishobora kuba bizana umwuka mwiza ku baturage bityo bigatuma habaho ikiza muri sosiyete.

Ni umuhanda uzamuka hakaba ugaragiwe n'amapoto agaburira abaturage amashanyarazi hepfo y'aho hakaba hari icyapa kigaragaza amerekezo y'ahantu bari cyanditseho kk ijana na cumi na gatatu esiti (kk113 st) .

Ni umutirirwa muremure ushobora kuba ukorerwamo imirimo igiye itandukanye, hanze hakaba haparitse ibinyabiziga by'umukara, hakaba hari n'umumotari utwaye ipikipiki.

I Remera ni umwe mu Mijyi ikomeye yo mu Rwanda, uzabibwirwa uko hari imiturirwa igeretse inshuro zirenze imwe, imihanda yaho iba irimo isuku, aho usangamo n'ibinyabiziga binyuranye.

Ni ikigo gishinzwe kugezaho abaturage bagiye batandukanye b'u Rwanda aho ushobora kuba wahabwa amakuru yizewe kandi ari mu mucyo bityo bikaba byatuma ugana uyu mugore.

Imihanda igiye inyuranye yo mu Rwanda ushobora kuba wahasanga abantu bari kugenda, aho ushobora kuba wanahasanga n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, mu mabara atandukanye, aho usanga harimo ibinyabiziga binini ndetse n'ibitoya.

Mu makaritsiye menshi agiye atandukanye mu gihugu ukunze gusanga guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda yaragiye icamo imihanda, aho yohereza abaturage mu kuba bagenda bakoresheje ibinyabiziga byabo cyangwa bagenda n'amaguru.

Ni imiturirwa igiye iri mu midugudu ndetse isize amabara agiye atandukanye ayo mazu ateye amabengeza koko, hepfo yaho hakaba hari ibyatsi.

Utubari two m'u Rwanda dukomeje gutera imbere aho usanga twaba twubakanye ubuhanga buhanitse bukaba ubwo bubari bufite umwimerere wo kuba wakwakira abakiriya benshi ndetse bakaba babereka n'umupira w'amaguru.

Ubu ngubu ushobora kuba wagana uduce tugiye dutandukanye two mu Rwanda aho ushobora kuba wasanga, amazu meza y'imiturirwa itimukanwa aho ushobora kuhasanga n'amatara, amwe yo ku mihanda aho amurikira abagenzi bagenda nijoro ndetse n'ibinyabiziga bigenda ku mugoroba.

Ni umuturirwa, ugeretse incuro imwe, hateye mo indabyo zigiye zitandukanye, aho no hasi yaho hari utubuye twiza twongera ubwiza bw'iyo nzu, iyo nzu ikaba isize ibara ry'ubururu ndetse n'akabara k'umuhondo.

Mu mihanda, mu gakiriro harimo umumotari utwaye ipikipiki, inyuma ye hakaba hari ikamyo iri mu ibara ry'umweru, bakaba bari kugenda mu mujyo umwe.

Imihanda igiye itandukanye yo mu Rwanda uzayibwira kuko uhasanga ibinyabiziga byo mu bwoko bugiye butandukanye aho haba hari iby'umukara, iby'umutuku ndetse n'ibyumweru aho ushobora kuba wasanga n'abanyamaguru bari gucaho ku mihanda igiye itandukanye yo mu Rwanda.

Ni umuhanda usa neza, ukubuye ndetse hirya yaho hakaba hari ibiti biteye amabengeza hakaba hari n'inzira ya abanyamaguru, hirya yaho hakaba hari n'ipoto rigaragaza urumuri mu masaha ya nimugoroba.

Ni umuhanda usa neza wo mu Rwanda ugaragaza icyapa cyerekana ko ntakinyabiziga cyemerewe guparika hafi aho, hirya yaho hakaba hari umugabo urimo kuza. Mumuhanda hakaba harimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye.

Mu mihanda yo mu Rwanda aho uzasanga ibimenyetso bikwereka kujya ibumoso cyangwa iburyo cyangwa gukomeza imbere, aho ibinyabiziga bikurikiza ibyo bimenyetso.

Mu mihanda yo mu Rwanda uzasanga ibyapa byamamariza ibigo bimwe na bimwe, aho uzasanga n'ibinyabiziga bidafite moteri bizwiho nk'amagare atwara abanyamaguru abavana ahantu hamwe abajyana ahandi.

Ubu ngubu imihanda igiye itandukanye yo mu Rwanda ushobora kuhasangamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ibitoya ndetse n'ibinini, ibitoya bizwiho nk'ibyitwa amapikipiki atwara abagenzi, ndetse n'ibintu byabo abavana hamwe abajyana ahandi.

Ni umuhanda ugaragaza amasangano agiye atandukanye, harimo ibinyabisiga bigiye bitandukanye ndetse nahantu abanyamaguru bambukira, hakaba harimo nibyapa bigiye bitandukanye bya airtel.

Mu mihanda igiye itandukanye yo mu Rwanda ushobora kuba wahasanga ibyo bakunze kwita aho amabisi ahagararira haba hari udutebe abaturage bashobora kuba bakwicaraho bategereje bisi.

Abaturage n'abaturarwanda bashobora kuba basanga mu duce tugiye dutandukanye, aho uhasanga imihanda y'umukara izwiho nka kaburimbo ikunze kuba irimo ibisayini bigiye bitandukanye byerekana ko abanyamaguru bagomba kwambuka.

Imihanda yo mu Rwanda uzasanga ibinyabiziga bizwiho nk'amapikipiki, aba atwaye abagenzi abavana ahantu hamwe abajyana ahandi, icyo gihe uzasanga abaturage bari kugenda muri iyo mihanda bagendesha amaguru.

Imihanda yo mu rwanda aho usanga ibinyabiziga bigiye bitandukanye ama modoka moto abanyamaguru ndetse hakaba hari na Feruje zererekana ko imodoka ziri buceho n'izindi zigahagarara abanyamaguru bakambuka

Guverinoma y'Igihugu cy'u Rwanda muri gahunda zayo zigiye zitandukanye zo kuba zageza ibikorwaremezo ku baturage, ukunze gusanga baraciye imihanda minini n'imitoya aho abaturarwanda banyuza ibicuruzwa byabo cyangwa bakaba bahanyura bagenda.

Umuhanda isukuye urimo amatara maremare, ukaba hirya yaho hari inzu ndende ifite amagorofa menshi, ishobora kuba ikorerwamo ibintu bigiye bitandukanye.

Ni umuhanda usa neza urimo amatara ari gucanira ibinyabiziga, hirya yaho hakaba hari abanyamaguru bari kugenda n'amaguru, hakaba mu muhanda harimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye.

Imihanda igiye inyuranye yo mu rwanda aho uzasanga ibimenyetso birimo ibara ry'umweru, bizwiho nk'aho abanyamaguru bambukira aho umunyamaguru ashobora kuba yakwambuka ikinyabiziga kigategereza ko asoza kikabona gukomeza.

Imihanda inyuranye yo mu Rwanda, uzahasanga imihanda imanuka, itambika ndetse ku ruhande rwazo uzasanga ibiti birebire, uhasange n'amapoto azwiho kumurikira abaturage bari kugenda muri uwo muhanda mu masaha ya nijoro.

Ni umuhanda wo mu Rwanda, ucanyemo amatara maremare amurikira abahisi n'abagenzi, ukaba urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye: ibifite moteri n'ibidafite moteri, amagare n'ibikamyo.